Kwa muganga hakunda kubera ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye byaba iby'ubuvuzi ndetse n'ubundi bufasha buhabwa abaturage, akenshi iyo umuntu arwaye yihutira kujya kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha.

Ihuriro ryabantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda myiza irimo amabara yumutuku, icyatsi, umukara n'umweru, n'ahantu ubona ko hari gukorerwa ibikorwa bya Leta.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, iki kigo gisakaje amabati atukura kandi impande yacyo hari indabo nyinshi, harimo umuhanda w'amapavuye unyuramo hagati ugenda ugana mu mashuri.

Abantu benshi bakunze kuvuga ko igikorwa cyo gutanga amaraso ari ubwitange bukomeye, hari abantu babura amaraso bagakenera kuyahabwa n'abandi bityo ubuzima bwabo bugakomeza.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri biryamweho n'abarwayi, icyo cyumba biragaragara ko kiri ahantu heza kuko abarwayi bakenera isuku kugira ngo babashe gukira vuba.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bari gukora ibikorwa byo gutanga amaraso. Abantu bashishikarizwa guha abandi amaraso, kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza, kandi bigafatwa nk'igikorwa cy'ubutwari.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye baje ku ivuriro kwivuza, higanjemo urubyiruko ndetse n'abana bato bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje gukora imyitozo ngororamubiri. Biragaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari gukina imikino y'amarushanwa.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, aba bayobozi bahuriye mu nama kugira ngo bige ku bibazo bimwe na bimwe biraje ishinga abaturage bayobora.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'imikara, bari mu kigo cy'amashuri cya Nyagatare bigaragara ko ari ibitaro by'Akarere ka Nyagatare.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hari abantu bavuga ko iyo bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga neza bituma iterambere ryabo ryihuta maze bakabona amafaranga.

Kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Iyo umuntu arwaye biba byiza iyo agiye kwa muganga, kugira ngo bamufashe maze asubire mu buzima busanzwe kandi yishimye.

Kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, iyo umuntu arwaye ajya kwivuza bityo bigatuma abasha gukira vuba, hanyuma agasubira mu buzima busanzwe ameze neza.

Kwa muganga usanga hahurira abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, haba abarwayi ndetse n'abarwaza kubera ko iyo umuntu arwaye akenera umuntu umwitaho, niyo mpamvu bakunda kujyana abarwaza.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye bari mu nyubako, bigaragara ko baje mu nama bari kugeza inama ku baturage, bityo babashe gukemura ibibazo bimwe na bimwe byananiranye.

Umugabo wambaye itabiriya y'umweru bigaragara ko ahakora ibikorwa bitandukanye by'ikoranabuhanga. Uyu mugabo nigabo ufite imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu.

Kwa muganga hakunda gutangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, abarwayi benshi iyo barwaye bihutira kujya kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha bityo babashe gukira maze basubire mu buzima busanzwe.

Umuganga uri gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi, uyu muganga afata imiti akayipima maze akayishyira mu byuma byabugenewe ku buryo ayiha abarwayi ntibagireho ingaruka.

Kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, abantu benshi iyo bagiye kwa muganga, babazwa indwara barwaye maze bagasuzumwa, hanyuma bagahabwa imiti ibafasha gukira.

Umuganga uri gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi, ari gufata imiti akayishyira mu byuma byabugenewe kugira ngo ayongerere ubuziranenge maze yifashishwe n'abarwayi.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyenda y'imyeru, abaganga bambaye bikwije kubera ko hari icyorezo cyateye kugira ngo bite ku baturage, maze babiteho neza.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kuvuga ko bishimira abarezi babo kuko babafasha gutsinda amasomo, aba bana kandi iyo batashye bagenda baririmba uturimbo batojwe n'abarimu babo.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'imyeru, ubururu, umutuku ndetse na kaki. Biragaragara ko ari abana biga mu mashuri y'inshuke.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bari kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Aba bayobozi kandi bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara.

Abaturage bari ahantu mu nyubako bari kugezwaho inama zitandukanye z'uburyo bakiteza imbere, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'cyatsi.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abayobozi bagiye gukoresha inama abaturage. Iyo abayobozi bagiye mu giturage, bagira inama abaturage y'uburyo bakwitwara kugira ngo ibikorwa byabo bigende neza.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umweru, icyatsi, n'umutuku, bari ahantu mu gace karimo abayobozi babashuye, ubona ko bishimye.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'imyeru, iki cyumba kirimo urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abantu bakuru.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu bikorwa bitandukanye, hari iyo bakoresha bavura inyamaswa, hakaba n'iyo bakoresha batera ku biribwa kugira ngo bibashe gukura neza.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru acuruza imiti, imiti myinshi usanga ibarizwa muri farumasi kuko abantu bayishaka ari ho bayikura bityo bigatuma babona icyo bakeneye.

Umuhanda wa kaburimbo unyura hagati mu nyubako, biragaragara ko ari inyubako zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi, ni hantu heza ubona ko hari iterambere.

Abayobozi baturutse mu bice bitandukanye bari gufasha abaturage, bari kubabwira ibibazo bahura na byo maze bakabagira inama n'uburyo babyitwaramo kugira ngo ubuzima bukomeze.

Ihuriro ry'abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye udupfukamunwa n'imyenda yabugenewe, ikoreshwa mu gihe bari gukora amasuku. Biragaragara ko ari abantu bafite imyaka hagati ya makumyabiri na mirongo ine, ubona ko bishimye.

Ku ivomero hahuriye abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma, bafite amajerekani menshi batonda ku murongo kugira ngo ugezweho abe ariwe uvoma, kandi bagere mu rugo hakiri kare.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, n'ababyeyi bigaragara ko bari hagati y'imyaka ya mirongo itatu na mirongo itandatu.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umutuku, bari kwiga ku kibazo cyo kurwanya Sida ndetse n'uburyo bayirinda.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ibidukikije kandi akenshi, usanga bivamo imiti abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa n'abavuzi usanga baragiye bayikura mu bimera. Ibimera rero bituma abavuzi babona imiti mu buryo bworoshye maze bakabona amafaranga mu gihe bari kuvura.

Umuravumba ni umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, umuravumba kandi usanga abantu bawukoresha mu bikorwa bitandukanye kuko uvura abantu benshi.

Umubyeyi uhetse umwana wikoreye agafuka, uyu mubyeyi avuga ko iyo yakoze imirimo ye neza abasha gutembera maze akagira ubuzima bwiza.

Abaturage bicaye ku ntebe bavuga ko iyo bahuriye hamwe babasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe bahura na byo cyangwa se bakaka ubufasha butandukanye ku bayobozi bakabafasha bakumva baguwe neza.